Kugosora ni igikorwa gikorwa hifashishijwe igikoresho cyitwa intara，bakagosora ibishyimbo， ibigori，amasaka， bikorwa n'umuntu ubizobereyemo， ashobora kuba ari umugabo cyangwa se umugore，umusore， n'umugabo nawe aragosora akoresheje intara.

Imbyino gakondo ni imbyino ibyinwa n'abagabo nabagore. Ariko hano abagore batatu cyangwa se abakobwa batatu bambaye umushanana, barimo barabyina imbyino gakondo nyarwanda bakenyeye umushanana.

Magaro. Magaro ni igikoresho bakoresha bari gufungura igare, moto, imodoka cyangwa se bari guca insinga z'amashanyarazi, kugira ngo bensitare, bahuze insinga zifunguye, zifite raba inyuma kugira ngo zitaransiforinge cyangwa zitware amashanyarazi.